Abantu babiri bagiye kuri robine kuvoma amazi, bakaba bajyanye ibikoresho byitwa amajerekani, amajerekani ni ibikoresho bakoresha bashyiramo amazi.

Abantu batanu batandukanye bari kuri robine aho bigaragara ko ari abana batanu bamwe barasa nkabakuze abandi ni bato, umwe muri bo arimo aroza undi aho kuri robine mu ibase.

Abantu benshi batandukanye bahuriye ku mugezi, harimo abamama, abana, abapapa, bamwe bazanye amajerekani kuvoma abandi bazana amabase.

Muganga uri gukingira abana b'abakobwa indwara ya kanseri y'inkondo y'umura, akaba afite inshinge ndetse n'imiti ari butanga nk'inkingo bakaba rero abana benshi bitabiriye.

Abantu batatu harimo abadamu babiri n'umugabo umwe, bakaba bari gupakira imifuka, bigaragara ko ari imifuka irimo akawunga cyangwa se ibyo kurya bitera imbaraga, imifuka rero bakaba bari kuyipanga neza bigaragara yuko ari nka sitoke nini.

Ifoto iriho umudamu wambaye agapira gatukura, ndetse ufite n'imisatsi isutse, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Ayo amwe muri yo avuga ati <<we have to go out of the way, and look at others, stakeholder out there, who can help, make things better and make health care more accessible to everybody who need to access>>

Abantu benshi batandukanye abagore, abagabo, abazungu ndetse n'abirabura barimo barafata ifoto y'urwibutso aho bigaragara yuko bari bashoje igikorwa cy'inama.

Abana b'abanyeshuri harimo abakobwa n'abahungu bakaba bari kumwe n'umurezi wabo, bari ku kigega kirimo amazi atunganyijwe yo kunyobwa bakaba bafite ibikombe bose bari kunywa amazi meza.

Abantu bari mu nama ikaba yarakoreshejwe n'inzego zitandukanye, harimo abayobozi b'inzego z'ibanze, abajyanama b'ubuzima, ndetse n'urwego rwa daso. Bakaba bari mu nama yiga ku buzima aho bari iruhande rw'ikigo cyigenga cyitwa gira ubuzima ndetse hakaba hanaparitse imodoka y'umukara.

Umunyeshuri wambaye iniforume arimo arakaraba intoki kuri kandagira ukarabe, hirya ye hari ibiti ndetse n'inyuma ye hari abandi bana nabo bambaye impuzankano.

Abantu bagera kuri bane harimo umugabo n'abagore babiri ndetse n'umwana umwe uri kugaragara neza, hejuru yabo hari umunzani ukoreshwa mu gupima ibiro by'abana.

Umwana ukiri mutoya arimo arasuka amazi akoresheje icupa ryabugenewe rikunze gutwarwamo amazi, ni byiza gukoresha amazi mu buryo bukwiriye.

Abana babiri bari mu ishuri barishimye cyane, aba bana bari mu kigero kimwe, umwe amanitse agatoki. Inyuma yabo hari ikibaho gishushanyijeho ndetse cyanditseho n'amagambo, ishuri barimo rifite amatafari ahiye.

Ubukangurambaga mu bijyanye na serivisi z'ubuzima bwahuje abantu batandukanye baturutse muri serivisi z'ubuzima zitandukanye, harimo abaganga, abaforomo ndetse n'ababyaza ndetse n'abakozi bakora mu bitaro, iyi nama rero ikaba yagaragaje ukuntu bakwiriye kunoza serivisi baha ababagana.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane; abagore, abana ndetse n'abakecuru. Ikigaragara cyo abenshi muri bo bambaye ibitukura. Hari itente, imodoka, idarapo n'inzu zitandukanye.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batanu, aho harimo abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, bafite amatelefoni imbere yabo, agacupa k'amazi ndetse n'udukayi two kwandikamo.

Abana babiri bagiye kuvoma amazi mu gishanga, aya mazi ntago akunze kuba ari meza kuko aya mazi atera indwara zizwi nk'impiswi, ni byiza kuyavoma ariko nyuma yo kuyavoma ukaba wayakoresha ari uko wayasukuye.

Abantu bigaragara ko ari barindwi bari mu cyumba cy'inama, aho imbere yabo hari uducupa tw'amazi ya INYANGE. Ikigaragara cyo basa nk'abari gutekereza cyane aho bigaragara ko buri yifashe ku myanya imufasha mu gutekereza.

Abantu benshi bigaragara ko bari mu nama, barimo baragenda bungurana ibitekerezo, bamwe barimo baragenda bandika ibyo bitekerezo byagiye bitangirwa mu nama.

Umukobwa wambaye itaburiya, ufite indangururamajwi ndetse n'akajenda mu ntoki. Ahagaze imbere y'abantu, aho arimo arabaha ikiganiro ku nsanganyamatsiko runaka.

Abana babiri kuri robine, umwe arimo arakorera undi indobo y'icyatsi, bigaragara ko yayivomeyemo amazi, umwe yambaye ijipo ya kaki ndetse n'agapira k'ubururu, undi nawe yambaye agashati kajya gusa umutuku.

Abana babiri bari gukarabira ku ivomero rusange rizwi nk'ipombo, aho abandi bayita nayikondo, bari gukaraba intoki kandi amazi ni meza ni urubogobogo, ubona ko byabashimishije nubwo ikinyusi cy'umwe muri bo cyatose.

Abantu benshi bambaye amabaji ndetse n'amataburiya bo kwa muganga cyangwa bakora kwa muganga, bakoze inama ndetse bari kumwe n'umuyobozi wambaye ikositimu y'umukara, akaba yambaye karuvati ndetse n'amadarubindi.

Unicef ni ikigo mpuzamahanga cyita ku iterambere ndetse n'ubuzima bw'umwana. Iki kigo ukaba usanga gifite ishami muri buri Gihugu cyo ku Isi. Ni byiza kwita ku buzima ndetse n'uburere bw'umwana.

Kunywa amazi meza bituma umuntu agira umubiri mwiza, abana batandatu bari ku ishuri bari kunywa amazi bakoresheje ibikombe nabyotandatu, aho barimo baravoma ku kigega cyashyiriweho amazi yo kunywa.

Inama yiga ku bijyanye n'ubuzima n'iterambere ry'ubuzima muri rusange, irimo abantu b'amoko atandukanye, abazungu, abirabura ndetse n'abanyaziya, ikaba yateraniye ahantu muri salle y'inama, aho buri meza agiye iriho uducupa tw'amazi ndetse n'amakayi ndetse n'amakaramu bari kwifashisha muri iyo nama.

Amarobine rusange ni amarobine yubatswe na Leta y'u Rwanda, aho abantu bajya kuvoma amazi yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi, umuhungu umwe arimo arapompa amazi.

Abantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu ndetse aba bantu bakaba bakora mu rwego rw'ubuzima, harimo abajyanama, abaforomo ndetse n'abaganga bakaba bakoze ihuriro bishimira umunsi wahariwe serivisi z'ubuzima.

Abana bambaye udupira tw'impuzankano twa UNICEF, bakaba bari kumva amahugurwa ajyanye n'ubuzima, cyane ko abana b'abangavu baba bakwiriye kwigishwa ibijyanye n'imyororokere kugira ngo birinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

WASAC, Water and Sanitation Coporation. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gusakaza amazi mu baturage, kinishyuza bamwe mu bayakoresha. Wasac ni ikigo cya leta y'u Rwanda.

Abantu batatu bambaye udupfukamunwa, aho babiri muri bo bambaye amatishati y'umweru, umukobwa umwe barimo baramukingira bigaragara ko ashinyirije akaba yifashe ku nda, akandi kaboko ke kararambuye.

Abana b'abahungu bagiye kuvoma ku ivomero rishya ry'ipombo, rizwi nka nayikondo, aho umwe muri bo ari gupomba abandi bakavoma. Iri vomero rero biragaragara ko riri kuzana amazi meza, naba bana bishimiye kuza kuvoma kuri iri vomera.

Inama yateranye ivuga kuby'ubuvuzi aho yitabiriwe n'abantu batandukanye, bigaragara yuko ari bodi cyangwa inama nkuru y'ibitaro, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse bakaba bagiye bafite udutasi turimo icyayi ku meza bari kunywa mu gihe bari mu inama.

Abantu benshi bateranye aho umwe yaje kwivuza, hari abaganga ndetse n'abandi bantu bari kumufasha, inyuma yabo hahagaze umukoranabushake, wambaye umwambaro w'abakoranabushake.

Ababyeyi bari kwa muganga baje gukingiza abana, harimo umwe wambaye agapfukamunwa k'ubururu, akaba arimo aritegereza umwana mu maso mu gihe ategereje kwakirwa na muganga.

Igihugu cy'u Rwanda cyagiye cyegereza abaturage ibikorwa remezo harimo nk'amazi. Abamama batatu bari kuri robine aho bagiye kuvoma. Umumama umwe arimo aradaha akoresheje indobo, abandi babiri barimo barapopa.

UNICEF ni ikigo mpuzamahanga cyita ku bana. Aho gifite motto ivuga ngo UNICEF for every child. Ndabona abantu bagera kuri batanu bishimye cyane, bambaye udupira dusa n'ubururu.

Umwana urimo urakaraba intoki afite isabune, umuntu uri kumusukira amazi arimo arakoresha ijyaga y'ibara ry'icyatsi. Ni byiza gutoza abana gusukura intoki zabo bakiri bato.

Umudamu barimo baratera urushinge, arashinyiriza, ibi bikaba byerekana y'uko atinya inshinge, arimo araterwa n'umukobwa wambaye ibikoresho byabugenewe, harimo agapfukamunwa ndetse n'impuzankano yo kwa muganga.

Kuri robine ni ahantu abantu bakura amazi, amazi akoreshwa mu guteka, mu gukora isuku ndetse no mu bindi bintu byose bikenera amazi. Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu n'agapira k'umweru arimo aravoma amazi ayafashe mu biganza byombi.

Abantu babiri bagiye kuvoma, umugore n'umugabo bari kuri robine bari kuvoma amajerekani, ku ruhande rwabo inyuma hari umukobwa wambaye akajire k'umuhondo ufite n'imisatsi isutse.

Gukaraba intoki ni igikorwa umuntu ashishikarizwa, kandi ni igikorwa umuntu akwiriye gukora buri munsi, kuko gukaraba intoki bituma umuntu adakwirakwiza amamikorobi akunze kuba ari mu biganza. Ni byiza kandi gukoresha amazi asukuye n'isabune.

Sale nini cyane bigaragara ko irimo abantu bitabiriye inama cyangwa ihuriro. Iyo nama ikaba irimo abantu bakora muri serivisi z'ubuzima. Hakaba hagiye hari amazi ndetse amakaye n'amakaramu ku meza bari gukoresha mu nama.

Abana benshi bari ku ivomero rusange aho bari gukaraba amazi meza aturutse mu ivomero, inyuma yaryo bakaba baranahubatse urukarabiro rusange abantu bakarabiraho . Ari naryo abana bari gukarabiraho.

Abantu benshi batandukanye bakaba bari kwa muganga. Harimo abamama benshi ndetse umumama umwe muri bo akaba ateruye umwana. Bigaragara yuko bategereje kwakirwa na muganga.

Ambulance ni imodoka ifasha mu gutwara abarwayi ahantu hatandukanye igihe barwaye. Iyi modoka ikunze kuba ifitwe na Leta mu biganza byayo, nta muntu ku giti ke wemerewe kuyigira keretse iyo yabiherewe uburenganzira na Leta.

Umukobwa wishimye cyane, uri kuri robine aho yagiye kuvoma amajerekani atatu. Abiri arasa n'umuhondo, imwe irasa n'bururu, arimo aravomera amazi mu ntoki ye kandi arishimye cyane.

Umuganga wambaye uturindantoki, arimo aragenda apanga imiti mu tuntu dutandukanye two kwa muganga bashyiramo imiti mu gihe bagiye kuyiha abarwayi.

Inyubako ebyiri ntoya cyane ariko na none zitari nto, ziri ahantu mu gipangu. Zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zifite inzugi z'ubururu. Izi nzu inyuma yazo hari indi, ikigega kigaragara ko ari gito.

HDI ni ikigo gitanga ubwunganizi mu by'ubuzima kikaba giherereye mu mujyi wa Kigali aho aha ngaha bari bakoze inama nk'uko bigaragarayasale y'inama aho abakozi bacyo barimo bagirana inama n'abo bahugura barimo abaforomo n'ababyaza.

Abana bagiye kuvoma amazi ahantu hameze nk'ikidendezi, ruguru yabo hari umusozi, aya mazi ntabwo akunze kuba ari meza kuko atera n'indwara.

Bumwe mu bukangurambaga bukorwa n'abajyanama b'ubuzima mu byo kunoza serivisi z'ubuzima, harimo no kwigisha no gukangurira ababyeyi kugaburira abana bato indyo yuzuye, indyo yuzuye ikaba igizwe n'ibitunga umubiri, ibirinda indwara, n'ibitera imbaraga.

Umwana w'umukobwa usa nk'uwiga mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu, akaba ari gukaraba amazi meza mu ibase iri kuri kandagira ukarabe, mu buryo bwo kubahiriza umuco wo kugira isuku, cyane cyane igihe umuntu agiye gufata amafunguro.

Abantu benshi bari ku ivomero rishyashya ryatashywe vuba. Bari kuvoma bishimye ndetse banagaragaza ibyishimo batewe no kuba begerejwe serivisi z'amazi meza. Iri vomero rero rikaba ari nayo ikondo cyangwa rizwi nk'ipombo aho ryubakwa ahantu hatari amazi y'isoko.

Abantu benshi batandukanye bahuriye mu nama, aho bigaragara ko harimo abazungu, abirabura, abagore ndetse n'abagabo bigaragara ko bateze amatwi.

Abana batatu b'abahungu bari ku ivomero aho hari undi mukobwa mukuru w'umuzungu uri kubavomera, ivomero rikaba ari amwe mu mavomero akorwa ahantu hataba amariba n'amasoko rusange rizwi nka nayikondo cyangwa se abandi bakunze kwita ipombo.

World health Organization ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe kurwanya indwara ku isi. Aho gifasha mu kurwanya ibyorezo bigiye bitandukanye byibasira imigabane yo ku isi.

Umugabo wishimye, wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, na congo ye ni umukara, arimo arakaraba amazi kuri kandagira ukarabe, arishimye cyane uyu mugabo!

Umwana w'umukobwa urimo uravoma amazi ahantu mu kidendezi cyayo afite ijerekani, aya mazi kuko ari amazi ari ahantu hamwe, ntago akunze kuba ari amazi meza kuko atera n'indwara.

Abantu benshi batandukanye, bicaye mu cyumba kimwe, icyo cyumba kikaba gifite inkuta z'umweru, urugi rumwe rusa n'ikigina ndetse inyuma yaho hari n'idirishya. Bigaragara y'uko hari umuntu barimo barumva imbere yabo.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane, imbere hahagaze abagabo babiri, umwe ameze nk'uri gutanga ikiganiro, afite agakaye ndetse na terefoni.

Abagabo bane ndetse n'umugore umwe bari mu nama bigaragara ku isojwe, bose bambaye amabaji bakaba bari gusuhuza n'umuyobozi wabaganirizaga mu nama, iyo nama ikaba yavugaga ku bijyanye n'ubuzima yabaye muri bibiri na cumi na karindwi.

Abantu benshi, bamwe bicaye mu ntebe zisanzwe abandi bicaye kuri pano. Barimo baraganira kuri National Dialogue on Health Financing Increasing Domestic Resources for Health. Ikigaragara cyo barimo barashaka ibisubizo byo mu buzima bijyanye n'ibura ry'amafaranga.

Umwana uri kuri robine arimo aravoma amajerekani, amajerekani akaba ari ane. Aya mazi arimo araturuka muri robine. Bigaragara yuko umwana yishimiye igikorwa arimo cyo kuvoma.

Umupapa wishimye cyane, uri kuri robbine, akaba yicaye ku ijerekani ndetse n'inyuma ye hakaba hari ibyatsi bibisi, uyu mupapa arishimye uko bigaragara.

Amacupa ya gaze, apakirwamo gazi za ogisijene zikoreshwa kwa muganga, akaba ari ku mashini ibasha gushyiramo izo gazi, kugira ngo zigezwe ahabugenewe, zibashe gucomekwa ku bitanda by'abarwayi, kugira ngo abakeneye ogisijene bayibone.

Abana babiri b'abahungu, umukuru wambaye isengeri y'umukara ndetse n'agakabutura k'umuhondo akaba ari gukaraba amazi meza n'isabune ari mu ndobo, umutoya wambaye agashati karimo amabara y'umuhondo n'ikabutura ya move akaba arimo amusukira amazi akoresheje ibinika.

Ni byiza kwisuzumisha indwara ndetse no kujya kwivuza kwa muganga igihe umuntu arwaye, umusaza arimo arasuzumwa indwara yaba arwaye, ari kwitabwaho n'umudamu wambaye amadarubindi.

Uburere bw'abana ni ikintu gikwiye kwitabwaho hakiri kare kuko iyo abana bahawe uburere bakiri batoya bituma bakurana imico myiza. Umubyeyi w'umupapa arimo arakina n'umwana, aho bigaragara ko umwana yishimye na we akaba yishimye, inyuma ye hari abandi bana benshi yicaye.

Umubyeyi wiyogoshesheje agapara wambaye bote, akaba ari kuvoma ku ivomero rusange, mu by'ukuri yambaye agasharupe karimo amabara atandukanye, umweru, umutuku ndetse n'ubururu, akaba ari kuvoma yishimye.

Abasore babiri barimo baraganira, aho umwe yambaye umupira w'ubururu undi akaba yambaye ishati ijya gusa n'umweru, bahuje urugwiro rwose, aho umwe bigaragara yuko ateze amatwi undi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, abakobwa bambaye kotoni, abahungu bakaba bambaye kaki, bafite ifunguro ribateretse imbere barimo bararya, ni byiza kugaburira abanyeshuri kuko bituma biga bahaze.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye, inama iyobowe na nyakubahwa minisitiri w'intebe, ikaba ari inama ivuga ku buzima yabereye mu biro bya minisitiri w'intebe yitabiriwe n'abantu batandukanye, harimo abanyarwanda, abirabura ndetse n'abazungu.

Ivomero bigaragara yuko rikoreshwa n'abantu benshi hari amabido atandukanye ari mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, hari umukobwa uri kuvomera abakiriya baje kuri iryo vomero bigaragara yuko abenshi ari abamama ndetse n'abakobwa.

Umwana w'umukobwa wishimye cyane arimo arakaraba intoki. Aho arimo arakarabira kuri kandagira ukarabe y'icyatsi, ndetse ayo mazi ari guturuka muri kandagira ukarabe arimo aragwa mu ibasi y'icyatsi.

Umuntu bigaragara ko arimo araterwa urushinge ku kaboko, aho uri kumutera yambaye ga ebyiri mu biganza bye. Ni byiza guterwa inshinge mu gihe urwaye cyangwa bakagutera inshinge mu gihe cyo kugukingira.

Abantu benshi cyane abiganjemo abana batoya ndetse n'umuntu umwe mukuru, barishimye cyane kandi abenshi muri bo bigaragara ko bambaye imipira y'umweru, bose bafite utuntu tw'udutabo bamanitse hejuru.

Mu gihe cya covid ubwo icyo cyorezo cyadukaga byabaga bigoranye gukora inama cyangwa amateraniro y'abantu benshi kubera ko byasabaga guhana intera. Mugahagarara harimo byibuza metero na metero ebyiri kandi mukaba mwambaye agapfukamunwa. Ayo mabwiriza rero kubera ukuntu yabaga agoye, byatumye inama nyinshi zisubikwa.

Abana benshi batandukanye bicaye, barimo baragaburirwa n'abantu, harimo umupolisi wambaye impuzankano, umubyeyi wambaye agapira k'umuhondo cyangwa oranje, n'undi mubyeyi wambaye akajire bari kugaburira abo bana.

Kwigisha abaturage ibyiza byo kwita ku mirire y'abana no kwirinda indwara, bikunze gukorwa n'abajyanama b'ubuzima cyangwa n'abayobozi n'abaganga muri rusange. Ikizwi muri Public Health Awareness campaign zikorwa n'abayobozi, abaganga n'abajyanama b'ubuzima.

Abana benshi cyane bishimye bari kuri robine, bamwe bakaba bambaye kaki, abandi bambaye ibitukura, harimo umwe muri bo wambaye agapira k'icyatsi kibisi.

Abantu benshi batandukanye bigaragara yuko ari abaganga, bambaye imyenda idasa, bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru aho abandi bambaye ibijya gusa n'ikigina, ikigaragara cyo bari kwifotoza.

Umwana ufite igikombe yateze ku ivomero amazi akaba afunguye ari kuvomera muri icyo gikombe arishimye kandi irivomero riri kuzana amazi menshi ahagije asa neza y'urubogobogo yo gukoreshwa

Leta y'u Rwanda yakoze buri kimwe cyose gishoboka, kugira ngo abaturage begerezwe amazi meza kandi asukuye. Abanyeshuri batandatu bagiye kuvoma, aho buri umwe afite indobo ndetse n'akabuni gatoya ko gutwaramo amazi kandi abana birabashimishije.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, bakaba bafite n'amakayi mu ntoki, barimo barandikaho ibyo bari kumva, ni aba mama n'aba papa baje kumva icyo bababwira.

Umwana wishimye cyane wambaye agapira ka oranje, akaba ari kuri robine arimo aravoma amazi, akoresheje igikombe, ni byiza kuvoma amazi dukoresheje ibikoresho byabugenewe

Abajyanama b'ubuzima ndetse bari kumwe na bamwe mu bakozi b'ivuriro, bari kungurana ibitekerezo cyane cyane basobanurirwa ukuntu bazajya bita ku barwayi bakabaha ubutabazi bw'ibanze.

Icyapa kinini kirimo umudamu, uri ku ivomero, akaba yanafunguye amazi, ahari kuvomera mu majerekani agera kuri atatu, icyo cyapa kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, avuga ngo wota sanitasheni endi hayijini ini Rwanda.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bari mu bukangurambaga bwo gushishikariza abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze, bakaba bafite icyapa cyerekana ikigo bakorera ndetse hakaba hariho na nimero za telefone n’aho icyo kigo gikorera wabasanga mu gihe waba ubakeneye.

Abantu babiri bicaye, umudamu afite indangururamajwi aho arimo aratanga ikiganiro ku nsanganyamatsiko runaka bahawe kuvugaho. Iruhande rwe hari umugabo uri kureba ku ruhande.

Icyapa kiriho umudamu wambaye agapfukamunwa, kikaba cyanditseho amagambo agiye atandukanye, harimo ari mu ibara ry'icyatsi, yerekana gahunda mpuzamahanga yo kurwanya icyorezo cya corona virusi.

Umubyeyi uri mu myaka y'abantu bakuru. Ni umubyeyi bigaragara ko yishimye, amenyo ari kugaragara. Yambaye imyambaro y'igitenge ,ndetse n'inyuma ye hari abandi bantu.

Umuntu acigatiwe n'abantu babiri, acigatiwe n'umugore n'umugabo. Inyuma yabo hari abantu bariri bari kubitegereza. Uyu muntu ushigatiwe mo hagati biragaragara ko ashobora kuba ari mu bwoko bw'abantu bakunze kwita abasazi, kandi ari indwara yo mumutwe.

Umubyeyi uteruye umwana, kuruhande rwe hari n'undi mwana, inyuma yabo hakaba hari inzu. imbere yabo hari ingemeri ndetse n'intara bakoresha bagosora ibintu bitandukanye.

Umwana wishimye cyane, bigaragara ko arimo ararya biswi, afite imisatsi isutse, akaba yambaye ishati iriho ka karuvati k'ubururu, bigaragara ko uyu mwana yishimye koko.

Umusore wambaye ishati ya made in Rwanda irimo ibara ry'ikigina n'umukara, yambaye inkweto ya ncongo n'ipantaro y'umukara ndetse yambaye n'amataratara, akaba ahagaze imbere y'inyubako yanditseho Caraes.

Abarwaye indwara zo mu mutwe ndetse n'iby'imitekerereze aho abenshi bakunze kubita abasazi, na bo ni abantu ndetse bagira n'ibyiyumviro nk'abandi, uyu mugabo rero urabona ko yahaye agaciro uriya murwayi kandi ari kumusuhuza atitaye k'uko asa n'uburyo yambaye.

Abantu benshi batandukanye bahagaze, aho bigaragaraye y'uko barimo barafata ifoto y'urwibutso. Ni mu gihe bigaragara y'uko bari barangije inama, ni abantu benshi batandukanye.

Abantu benshi batandukanye, aho bamwe bicaye ku ntebe abandi bakaba babahagaze inyuma yaho. Bigaragara ko bashoje inama, bakaba barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane aho hamwe hari abaganga bigaragara yuko abaturage baje kwivuza cyangwa kwikingiza indwara, ikigaragara cyo abaturage barabyishimiye kuko bitabiriye ari benshi.

Icyapa kinini kiriho abantu batandukanye ndetse kiriho n'amagambo agaragaza uburyo ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kubungabungwa, ndetse n'ibyatuma umuntu agira ubuzima butekanye mu by'imitekerereze.

Uburwayi bwo mu mutwe ni indwara yibasira abantu bose, tutagendeye ku myaka bafite. Umusore wambaye imyenda yacikaguritse, inyuma ye hari ikimodoka cya hoho, bigaragara yuko afite ubu burwayi bwo mu mutwe.

Abakobwa babiri bicaye, umwe bigaragara ko yishimye cyane, akaba yambaye agakanzu k'ubururu. Undi nawe akaba yambaye ikanzu y'umukara. Umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu, afite agakinisho mu ntoki ze, bigaragara ko kamushimishije.

Mu buzima busanzwe biragoye kubona umugabo ari kurira ndetse akazana amarira menshi ariko iyo umuntu afite ibibazo by'imitekerereze cyangwa uburwayi bwo mu mutwe ibyo ni ibintu bikunze kubaho we cyane aho usanga mbene abarwayi kubera intekerezo ziba zidakora neza banagaragaza imyitwarire idasanzwe muri sosiyete nko kuba yaririra ari umugabo.

Abana bambaye impuzankano zisa bigaragarako ari abanyeshuri bakiga mu mashuri matoya barishimye cyane ahobari hari igiti kimanitseho idarapo ry'u Rwanda.

Soldimanins canceling clinic ni ivuriro rivura abantu barwaye indwara zo mu mutwe ndetse n'imitekerereze. Rikaba ari ivuriro ryigenga rero ritanga serivisi ku bahuye n'ibibazo bitandukanye cyane cyane agahinda gakabije n'ihungabana.

Umumama wikenyeye igitambaro cy'igitenge mu mutwe. Isura ye yayikanyaraje, yambaye n'amaherena. Umurebye ushobora kugira ngo afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umusore wicaye yigunze, afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe n'iby'imitekerereze, iruhande rwe hakaba ari ahantu ha puberi bajugunya imyanda.

Umubyeyi wambaye amarinete, yambaye ibaji ndetse n'ikanzu y'umweru, akaba anambaye isaha, afite ikaramu mu ntoki ndetse n'agakayi imbere ku meza, iruhande rwe hari undi mudamu wambaye ikote ry'umutuku, bari mu nama bose, kandi imbere yabo hari amazi ku meza.

Tariki ya cumi z'ukwa cumi ni itariki yahariwe umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, iyi tariki rero ikaba ikorwamo ubukangurambaga butandukanye, aho n'ubufasha buhabwa abantu batandukanye bafite ibibazo n'uburwayi bwo mu mutwe.

Kwita ku ndwara zo mu mutwe ni ikintu cyiza cyane. Impuguke mu ndwara zo mu mutwe arimo aratanga ubujyanama cyangwa se tukaba twabyita ikiganiro ku ndwara zo mu mutwe n'uburyo zakwirindwa. Twite ku ndwara zo mu mutwe.

Ni byiza gufasha abantu barwaye. Cyane cyane abantu barwaye indwara zo mu bwonko. Iyo umuntu yitaweho igihe arwaye, bituma akira vuba kuko ntago aba yihebye.

Ni byiza gusobanurira umuntu ikibazo icyo ari cyo cyose yaba afite. Abadamu batatu bicaye, babiri bo bigaragara yuko barimo barasobanurira umudamu umwe ubarimo hagati.

Umugabo urimo urigisha abaturage bamwicaye imbere, inyuma ye hari idarapo ry'Amerika ndetse n'iry'Uburundi, hari n'agacupa k'amazi bigaragara ko ari amazi ari kunywa.

Umukobwa bigaragara ko yishimye wambaye isengere y'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, afite umusatsi mwinshi aranezerewe rwose bigaragara ko nta bibazo byo mu mutwe afite, aho abantu benshi baba bakwiye guhora baruhutse mu umutwe kugira ngo birinde uburwayi bwo mutwe n'imitekerereze muri rusange.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bicaye ku ntebe, izi ntebe zikaba ari uruziga. Aha hantu hari abagore, abagabo ndetse n'abakobwa. Ni byiza kwihuriza hamwe.

Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Jeannette Kagame afite mikoro, imbere ye yambaye amataratara ndetse n'ikanzu y'ubururu, arimo aratanga ikiganiro kuri Mental Health Awareness Campaign.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu benshi batandukanye biganjemo abagabo n'abagore. Ku ntebe y'imbere hakaba hari umudamu wambaye agakote k'umukara ndetse n'amaherena ari kwitegereza ubigisha kandi arakurikiye cyane imbere kandi hakaba hari screen cyangwa icyuma gisakaza amashusho.

Umugabo ubabaye urimo urarira, amaso ye yatukuye cyane; arasamye kandi arababaye cyane, ni byiza kwita ku bababaye kugira ngo tubafashe gusohoka mu bibazo baba barimo barahura na byo.

Umubyeyi utetse, ari kumwe n'abana babiri, umwana umwe aramuhetse mu kigoma cy'umweru, undi ni umwana umuhagaze ku ruhande, inyuma yabo hari irido rijya gusa ikigina.

Abantu benshi cyane bahagaze ku murongo umwe, harimo abagore ndetse n'abagabo, by'umwihariko hakaba harimo Madamu Jeannette Kagame, akaba ari we Firts Lady w'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Kwita ku menyo yacu ni ikintu kiza cyane aho tugirwa nibura inama na muganga yo kuba twajya kogeshasha amenyo kwa muganga, umuganga arimo aroza amenyo y'umurwayi uryamye Ku gatanda ko kwa muganga akaba ari kumwe n'umunasi umufasha muri icyo gikorwa.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ubuvuzi bumajije gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umugabo arimo aravura undi mugabo amenyo, umuganga yambaye agapfukamunwa ndetse na ga.

Abana batoya biga mu mashuri abanza n'ay'inshuke bari kwigishwa uburyo bita mu kanwa kabo baborosa ndetse n'uburyo bakwiriye gukorera isuku amenyo yabo.

Amenyo agomba kwitabwaho kuko iyo amenyo atitayeho ngo akorerwe isuku atera indwara umuganga w'umukobwa arimo arita ku buvuzi bw'amenyo bw'umuhungu aho bigaragara ko arimo arayoza akoresheje imashini yabugenewe.

Umumama wambaye agaseri ndetse n'umwana w'umukobwa na we wambaye agasengeri, bose bafite uburoso ntoki, umubyeyi arimo aratoza umwana we uko baborosa amenyo.

Ishusho y'amenyo imeze nkaho yafatiwe muri x-ray, x-rqy ikaba ari igikoresho gifotora ibiri mu mubiri mbere, ikigaragara cyo uyu muntu afite amenyo menshi.

Ifoto y'amenyo bigaragara ko yafatishijwe na x-rays, iyi foto ikaba ikoreshwa mu buryo bwo kugira ngo umuntu aze kuvurwa amenyo ye, mu gihe barimo barareba ahari ikibazo.

Umugabo wambaye itaburiya yicaye ku gatebe kajya gusa nk'icyatsi, uyu mugabo arishimye cyane, inyuma ye hari igikoresho cyo kwa muganga ndetse n'urugi inyuma ye.

Umuganga wambaye amataratara ndetse n'imyambaro yabugenewe yo kwa muganga, yaryamishije umurwayi ku gatanda ko kwa muganga aho arimo aramusuzuma indwara y'amenyo.

Isuku y'amenyo ni isuku nziza cyane. Kuko iyo amenyo asukuye bituma n'umuntu agira impumuro nziza mu kanwa. Umusore ufite akadodo kabugenewe mu koza amenyo arishimye cyane.

Ubukangurambaga bwakozwe n'abaganga ndetse n'abanyeshuri biga iby'ubuganga cyane cyane ibijyanye n'amenyo, bakoze ubukangurambaga ku ishuri aho bari kwigisha abana bato uburyo bwo koza amenyo ndetse no kubungabunga isuku yo mu kanwa, imbere rero hakaba hari umwarimu wambaye ikositimu y'ikigina nawe akaba ari kwitegereza ibyo bari kwigisha abana.

Umukobwa waje kwisuzumisha amenyo ye, arasamye ari kwa muganga aho umuganga arimo aramuzuma indwara zo mu kanwa. Ni byiza kwisuzumisha amenyo kuko biyarinda kwangirika.

Ubukangurambaga bwigisha abantuza koza mu kanwa ndetse no kubungabunga amenyo bwitabiriwe n'abantu benshi batandukanye cyane cyane biganjemo abaganga aho bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'imipira y'umweru.

Inyubako ndende y'itaje yanditseho hop dento cente his hand on africa n'inyubako y'amataje atatu kandi hejuru y'iyo nyubako hakaba hari akabara k'icyatsi gasa nkaho arirwo rusengero rwayo inyubako ikaba ifite n'igipangu.

Umugabo uri gukoresha urudodo rwabugenewe mu koza amenyo, ari guseka kandi biragaragara yuko asanzwe abikora urebye yaba ari impuguke mu gukoresha urwo rudo, urudodo rero rukaba ari ingirakamaro mu koza amenyo kuko rugera aho uburoso butabasha kugera mu kuvana imyanda n'udukoko mu menyo no mu kanwa.

umugabo uri gukoresha urudodo rumenyerewe mu koza amenyo uru rudodo rukaba ari ingenzi cyane kuko iyo rwifashishijwe mu koza amenyo rukora rukanavana udukoko n'imyanda ku menyo ahantu uburoso butabasha kugera

Abana bambaye iniforume isa nk'iyo kuri G.S Rutoma, bakaba bari kwiborosa, bafite udukombe ndetse n'uburoso, bisobanuye ko no ku mashuri abana bakwiriye gutozwa umuco wo koza amenyo, no kugira isuku yo mu kanwa.

Umuntu uryamye kwa muganga bigaragara yuko yaje kwivuza, arimo aritegereza umuganga ugiye kumuvura. Ibigaragara cyo uyu mwana ni mwiza kuko ni inzobe.

Umwana mutoya ufite amaso asa neza n'uduherena ku matwi, arimo arasuzumwa amenyo ye kugira ngo umuganga amenye uko amenyo ye ahagaze.

Abantu benshi bishimye cyane, aho barimo barafata ifoto. Harimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'abakobwa bamwe muri bo bambaye iby'umweru. Harimo n'umuzungu.

Ni byiza gusuzumisha cyangwa se kuvuza amenyo, mu gihe twikanga y'uko haba hari indwara turwaye. Umwana uryamye, arimo arasuzumwa amenyo na muganga ubizobereye.

Ni byiza kuvuza amenyo mu gihe wumva yaba afitemo ikibazo kuko iyo uvuje amenyo yawe bituma asa neza kandi kirazira kwivuza magendu.

Umugabo ufite umusatsi muke yambaye agapira k'ubururu ni umugabo ufite ubwanwa bwinshi amenyo ye ni umweru cyane bigaragara yuko amenyo ye ayakorera isuku uko bikwiriye.

Kugira amenyo meza bituma uyafite yishimye kandi bituruka ku isoko yayo, umwana w'umukobwa yishimiye amenyo ye, aho arimo arireba mu kirori kubera ko amenyo ye asa neza nawe biramunejeje.

Umusore w'inzobe wishimye cyane ndetse amenyo ye arimo aragaragara, afite akantu mu ntoki akaba arimo aragatungaho urutoki, biragaragara ko anezerewe.

Imashini yo kwa muganga ikoze nk'intebe ariko kandi ishobora gukora nk'igitanda, ikaba ifasha abarwayi barwaye indwara zitandukanye no mu gihe bari kubakorera operasiyo iyi mashini ikaba yakwifashishwa.

Umugabo wishimye cyane arimo arasukura amenyo ye akoresheje akadodo kabugenewe. Bigaragara yuko kamufasha mu gusukurara amenyo kuko amenyo ye arasa neza ni umweru cyane.

Umubyeyi ari kwigisha umwana we gusukura amenyo akoresheje akadodo ni byiza gutoza umwana gusukura amenyo ye akiri muto kuko bituma akorana amenyo meza.

Ababyeyi batandukanye benshi bagera nko ku mubare wa cumi. Bambaye amajipo aho umwe muri bo yambaye ikanzu. Abambaye amajipo bambaye amajipo y'umukara n'udutishati tw'umweru.

Umumama usa n'ukuze, arimo arakora siporo kugira ngo ubuzima bwe bumere neza. Ni byiza gukora siporo kumyaka yose waba afite, kuko iyo umuntu akoze siporo, umubiri we umera neza.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ruziga rumwe. Harimo abamama ndetse n'umupapa w'umuzungu. Aba bantu barishimye cyane. Inyuma ya bo hakaba hari inzu ndetse n'ibyatsi byinshi.

Umusaza ufite imvi z'umweru afashe utuntu mu ntoki, akaba ari kumwe n'abana babiri, aho abo bana bigaragara ko baba ari abuzukuru be, aba bana barimo bararya bananywa, aba bana barishimye.

Umugabo wambaye amataratara ndetse n'ishati ijya gusa nk'ikigina afite umusatsi w'imvi; aricaye arimo arandika imbere ye ku meza hari udukayi.

Umusaza wambaye amataratara arimo aricazwa ku gitanda, afashwe n'umukobwa ufite imisatsi miremire, kuri iki gitanda hejuru yacyo hariho inzitiramibu.

Mu isoko dusangamo ibintu byinshi bitandukanye, inyanya, imbuto ndetse n'ibindi, hari abadamu bagera kuri batandatu, aho imbere yabo hateretse inyanya.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko ari rubanda rugufi, barishimye umusaza ari gusoma umukecuru ku itama, umukecuru na we yasetse cyane, akaba ari ikimenyetso cy'uko abanyarwanda bakundana kandi bishimye.

Ifunguro ryiza ni ifunguro rituma umuntu agira ubwenge, ubuzima bwiza ndetse n'imbaraga. Akenshi ubuzima bw'abantu bakuru ntabwo bukunze kwitabwaho kuko ntabwo baba bafite ababitaho. Ni byiza rero kwita ku bakuze tubaha imbuto, imboga ndetse n'ibibatera imbaraga.

Umugabo usa n'ukuze wambaye amataratara, ufite agashati kajya kuba oranje arimo arasoma. Bigaragara yuko arimo aratekereza ndetse no ku byo arimo arasoma mu gitabo kimuri imbere.

Umusaza ukuze uri kumwe n'umuganga ukiri mutoya. Umuganga arimo arasobanurira uyu musaza ku by'indwara zitandukanye. Bigaragara yuko uyu musaza ateze amatwi.

Umusaza bigaragara ko ari mu kigero k'izabukuru afite imisatsi y'umweru, ashigatiwe n'abantu babiri, umwe ni umusore undi n'umukobwa, ikigaragaza barimo baragerageza kugeza kumwicaza.

Abantu bari mu gikorwa cya siporo aho barimo baragenda ndetse bakaba bambaye n'imyenda ya siporo, barimo baragenda muri kaburimbo, inyuma yabo hari n'abandi bantu baje muri icyo gikorwa cya siporo.

Umubyeyi mukuru, wambaye amadarubindi ndetse n'igitambaro cy'umukara mu mutwe, akaba yambaye umupira wa roze, ari kwitabwaho n'umwe mu bakozi bo kwa muganga, wambaye agataburiya k'ubururu, umukozi wo kwa muganga akaba ari mwiza cyane, afite imisatsi izirikiye hejuru.

Umupapa urimo urakina n'umwana. Umwana akaba afite umupira wa Basketball. Umwana w'umukobwa byamushimishije kandi n'umubyeyi yishimiye gukina n'umwana we. Ababyeyi ni byiza gukina n'abana babo.

Umusaza n'umukecuru bicaye iwabo muri salo, ahazwi nko mu ruriro, umusaza yambaye agapira k'ubururu afite imvi nyinshi ndetse n'umukecuru yambaye agapira k'umutuku na we afite imvi nyinshi, umukecuru ari gusomera umusaza amabwiriza yuko akoresha ibinini afite mu ntoki.

Abakecuru babiri bigaragara ko bari mu myaka ikuze, bose bafite inkoni kandi barakenyeye, inyuma yabo hari umwana wambaye agapira k'umweru ndetse n'abandi bantu babari inyuma ari benshi.

Umubyeyi usa nkaho ari mukuru imbere ye hateretse igikombe cy'amazi, umukobwa arimo aramuha ikinini kugira ngo akinywe akoresheje ayo mazi ari mu gikombe.

Umumama mukuru wambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto za buresiyeri ari gukora imyitozo ngororamubiri muri salo ahabugenewe aho ari kugorora amaguru ndetse n'amaboko.

Umukobwa mukuru uri gucunga akagare kicayemo umugabo bigaragara ko akuze, umugabo rero akaba afite imvi nyinshi ndetse anambaye amadaro, bakaba bishimye rero bari ahantu heza cyane muri jaride akaba ari kumufasha kugenda.

Ni byiza kwita ku buzima bw'abantu bakuze aho nibura nk'abaganga bakwiriye gushishikarira kujya gusuzuma uko bameze, dore yuko abenshi baba batagishobora kwijyana kwa muganga.

Abantu bishimye cyane barimo barasoroma icyayi mu murima bigaragara ko babyishimiye, icyayi ni igihingwa ngandurabukungu mu Rwanda aho cyoherezwa ku isoko mpuzamahanga.

Abantu bakuze bicaye mu dutebe, aba bantu biragaragara yuko hari umuntu bari kumva, harimo abasaza ndetse n'abakecuru kandi ikigaragara cyo bari mu myaka imwe.

Umusaza n'umukecuru bafite amazi mu birahuri imbere yabo, bakaba bari kuri telefone bisa nkaho bari kungurana ibitekerezo ku buryo bwo kubungabunga ubuzima bwabo, cyane ko abageze mu zabukuru baba bakeneye kwisungana kugira ngo bungurane inama ijyanye no ku kumungabu ubuzima.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ufite n'imvi. Akaba ari kumwe n'undi w'umuganga w'umudamu. Akaba arimo aragenda amuramburira akaboko ke.

Umurwayi wagiye kwa muganga bigaragara ko ari umusaza ukuze wambaye rinete. Arimo aritabwaho n'umuganga w'umukobwa wambaye iniforume ijya gusa ubururu bwijimye.

Ni byiza gufata imiti uko twabitegetswe na muganga kuko iyo dufashe imiti uko twayitegetswe na muganga dukira vuba, umubyeyi usa n'ukuze arimo aranywa ibinini nk'uko yabyandikiwe na muganga ibingibi bikaba bizamufasha gukira vuba.

Umugabo uteruye umwana wambaye ishati irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, umwana akaba yishimye na we afite agapupe mu ntoki bigaragara rwose ko uyu mupapa akunda abana kandi umwana na we akaba yishimye ari kuganira n'uyu mupapa.

Umusaza wambaye amataratara arimo aritegereza umukobwa cyane. Imbere y'uyu musaza hari igikombe cy'ikirahure kirimo amazi ndetse n'agatabo kari ku meza.

Umuganga bigaragara ko yishimye cyane, arimo arita ku umusaza bigaragara yuko afite n'inkoni bagenderaho. Uyu musaza arakuze kandi aranishimye kubera ko ari kwitabwaho na muganga.

Abasaza babiri, umwe wambaye amataratara n'undi utayambaye, bose bambaye ingofero, umwe yambaye ishati y'ubururu undi yambaye ishati y'umweru, inyuma yabo hari abantu benshi batandukanye.

Umuryango cyangwa se abantu ni isoko y'ibyishimo. Abantu bagera kuri batanu, harimo umupapa, umumama ndetse n'abandi bigaragara ko byaba ari abana be n'umwuzukuru we, bishimiye kuba bari hamwe.

Kwita ku barwayi, ni ikintu cyabafasha gukira vuba kuko umurwayi witaweho, akira vuba kuko aba yabonye imiti ndetse n'amakeya. Umuganga w'umukobwa ari kwita ku mugabo wari urwaye.

Ubukangurambaga bugamije kurwanya indwara y'ibicurane by'ibiguruka izwi nka yerofeva, hakaba hariho n'uburyo bwo gukingira ndetse ubwo bukangurambaga bunagaragaza uburyo umuntu yabona urukingo rw'ubwo burwayi.

Minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cyitwa RBC, kigenda kiyifasha mu gutanga inkingo. Aho cyakoreshejwe cyane cyane mu gutanga inkingo mu gihe cya Covid 19. Aho cyashishikarizaga ababyeyi guteza abana babo inkingo kugira ngo barindwe icyorezo cya Covid.

Family planning market report ni repot y'imyaka icumi, igaragaza uburyo abantu bagiye bitabira uburyo bwo kuboneza urubyaro mu Rwanda.

Inama yitabiriwe n'abari n'abategarugori igamije ubukangurambaga cyane cyane ku buvuzi buhabwa abagore ndetse n'abakobwa, iyi nama rero ikaba yateranyijwe n'inzego zitandukanye cyane cyane abaharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa.

Inzu nziza cyane iri mu mabara y'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Iyi nzu biragaragara ko ari inzu nziza koko aho hasa nk'ahagiye kubera umunsi witwa World Diabetes Day.

Umugabo umwe wambaye kositimu n'ishati y'umweru wishimye cyane, akaba afite uruhara, ari gusuhuzanya n'abamansera batatu, aho bose bambaye amarinete ndetse n'imyambaro y'abamansera.

Utuntu tw'udutibe twanditseho Manki pokisi vayirasi, tumwe tugiye turiho utugambo twanditseho pozitivu banyujijemo udukubo ndetse utundi ntabwo byanditseho.

Healthy People Rwanda ni initiative ya Minisiteri y'Ubuzima, aho igenda itanga amahugurwa mu baturage, uburyo bakirinda indwara zigiye zitandukanye, yaba izandura ndetse n'izitandura.

Amahugurwa yitabiriwe n'abantu batandukanye ndetse n'inzego zitandukanye mu rwego rw'ubuzima, aya mahugurwa akaba yanatangiwemo impamyabumenyi cyangwa ikizwi nka seritifika zigaragaza amasomo yigiwe muri ayo mahugurwa ndetse n'igihe byasabye kugira ngo abe asojwe.

Abantu benshi batandukanye barimo barifotoza. Aho bari kwifotoreza handitse amagambo avuga ngo "Signing Ceremony of the African Medical Agency." Bigaragara yuko ari ikigo bagiye gushinga.

Inama mpuzamahanga zikunze kubaho ku isi, aho zikunze kuba ziga ku buzima bwiza bw'abantu batuye ku isi cyane cyane by'umwihariko muri Afurica, aho usanga ubuzima bw'abantu butitaweho, hakunze kuba inama mpuzamahanga ziba zigamije kwita ku buzima bwabo.

International Federation of Environmental Health. Ni ikigo mpuzamahanga kirwana no kwita ku buzima bw'abantu ndetse n'ibiti muri rusange. Bari bafite campain yatangiye ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwacyenda, bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu benshi bateraniye mu nama yiga kuri Women Leadership in Global Health, bakaba barimo barafata ifoto y'urwibutso. Abantu bari bishimiye iyi nama mu bigaragara ku maso yabo.

Diyabeti ni indwara mbi cyane aho buri muntu wese ashishikarizwa kuyirinda, ahangaha hari akapa kagaragaza Diabetes Awareness Week bishatse kuvuga ngo icyumweru cyahariwe kurwanya diyabete.

Abantu bane harimo abakobwa babiri ndetse n'abahungu babiri, bifotoreje mu kantu kanditseho " Safe is Sexy", bigaragara ko hariho udukingirizo bashishikariza abantu mu gukoresha agakingirizo mu gihe bari gukora imibonano mpuzabitsina.

Nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika jeannette kagame ari gutanga ijambo mu kiganiro aho bari mu bukangurambaga bugamije gukangurira abantu kumenya uburwayi ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange.

Umukobwa wicaye mu ntebe, arimo aratanga ikiganiro, inyuma ye handitse amagambo avuga ngo'' Teenage pregnant sexual.'' Uyu mudamu arishimye yambaye amataratara ndetse n'agakode.

Abantu benshi mu buzima batinya inshinge. Aho usanga bamwe iyo bagiye kubatera inshinge baba bafite ubwoba. Umumama wicaye urimo uraterwa urushinge, yifashe ku nda. Bigaragara yuko afite ubwoba bwinshi.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu kiriho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, munsi hakaba hariho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza avuga ngo Repabulike ofu Rwanda, ugacaho umurongo munsi handitseho Minisitiri off herifu

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru, yanditseho amagambo avuga ati '' inzu y'ababyeyi n'impinja'' ni ahantu ababyeyi babyarira abana babo.

Mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga, harimo ibitanda by'abarwayi na sikirini zigiye zimanitse hejuru ya buri gitanda, hakaba hari ahantu heza hakeye kandi hafite isuku bigaragara yuko ari ibitaro biteye imbere.

Icyumba gikorerwamo siporo kimenyerewe ku izina rya jimu, ni ahantu usanga ibikoresho bigiye bitandukanye, aho umuntu akoreraho siporo, hari ibyo bateruriraho ndetse n'ibyo bagenda basimbukira, ni byiza gukora siporo.

Kw muganga ni ahantu usanga ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, aho usanga ibitanda biryamishwaho abarwayi mugihe bari kwa muganga ndetse usangamo na supanete zibafasha mu kurwanya imibu mugihe umurwayi aryamye kuri ibyo bitanda.

Icyumba abarwayi babagirwamo kizwi nka salle de pain kirimo igitanda cyagenewe kubagirwaho, cyangwa gukorerwaho operation. Hakaba harimo urumuri rwinshi ruhagije rutangwa n'amatara ndetse n'uruturuka mu birahure. Hakaba harimo kandi akantu gatanga umuyaga kazwi nka vendrateur, ndetse n'isakazamashusho cyangwa screen yerekana uburyo operation iri kugenda.

Umurwayi ugiye kwa muganga mbere y'uko abonana na muganga wabigenewe, hari aho babanza bakamwicaza mu gihe agitegeje muganga, abantu bane harimo umugabo umwe ufite telefone n'umusore uhagaze wambaye umupira w'ubururu, urimo uraganira n'umukobwa kugira ngo amufashe.

Kwa muganga harimo inyubako nyinshi zigiye zitandukanye inyubako imwe irimo ibitanda byinshi bitandukanye ari byo abarwayi baryamaho igihe baje kwa muganga.

Inyubako nziza cyane iri ahantu hitaruye ha yonyine, inyuma yayo hakurya hari imisozi, imbere y'iyi nyubako hari ubusitani bwa pasikarume, ndetse hari n'ahandi hubakishije amapave.

Porogeresi famasi; ni iduka ricuruza imiti, rikaba rikorera mu gihugu hose, aho habamo imiti y'amoko atandukanye ndetse bakaba bakorana n'ubwishingizi butandukanye kugira ngo bahereze serivisi inoze abakiriya bayigana.

Leta y'u Rwanda yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo yegereze ubuvuzi bw'ibanze abaturage, aho yagiye yubaka amavuriro menshi mu gihugu ahantu hatandukanye.

Sale nini cyane yubatswe, ikaba ifite intebe nyinshi cyane, hakaba harimo abantu bagera kuri bane, bigaragara y'uko bategereje umuntu ngo aze abafashe muri serivisi bashaka.

Kwa muganga ni ahantu usanga ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bigizwe: ibitanda, indobo, ndetse n'ibindi bagenda batwaraho imiti itandukanye, umuntu utabizi ntiyapfa kumenya amazina yabyo.

Umugabo wicaye ku gatebe k'icyatsi, yambaye itaburiya ndetse n'umupira usa n'ikigina, inyuma ye hari ibikoresho byo kwa muganga, ari mucyumba gifite n'amarido ku ruhande.

Irikadi Afurika ni ikigo nyafurika gishinzwe gukora inkingo ndetse n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi kikaba cyarubatswe mu Rwanda ahitwa i Masaka mu karere ka Kicukiro, kigamije guteza imbere ubuvuzi mu Rwanda no muri Afurika muri rusange.

Inyubako ndende z'amagorofa zigiye ziri ku buso bunini buri nzu cyangwa inyubako igiye ifitemo ibyumba byihariye, zikaba ari inyubako rero zizakoreshwa nk'ivuriro aho bazajya bakirira abarwayi batandukanye.

Umurwayi uryamye ku gitanda kwa muganga aho hejuruye hari inzitiramubu ikaba irimo irazingwa n'umugabo wambaye umupira w'ubururu hamwe n'ipantaro y'umukara.

Inyubako nziza cyane ifite igikuta cy'umweru, amabati atukura, imbere y'inyubako hari amapave ndetse n'inyuma yayo hakaba hari indi nzu igaragara neza na yo ifite amabara atukura ari yo mabati yayo.

Abaganga batandatu b'ababakobwa, bambaye imyenda isa cyane. Bahagaze imbere, inyuma yaho hakaba handitse Legacy Clinics, bigaragara ko barimo barifotoza.

Abaganga bane b'ababyeyi. Bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi. Ikaba ari inzu ababyeyi babyariramo. Ni byiza kubyarira kwa muganga.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo Health Center. Ni ikigo nderabuzima kivura abaturage batuye muri Matyazo. Kikaba kibavura indwara nyinshi zitandukanye. Hakaba hari icyapa cyerekana aho icyo kigo nderabuzima giherereye.

Farumasi iraguha ni iduka ricuruza imiti, rikaba rikorana n'ubwishingizi butandukanye, guhera kuri mituweli de sante, MISUR, Saniramu, Radiyanti ndetse n'ubundi kugira ngo bahereze serivisi nziza ababagana.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu benshi bitabiriye iyo nama ariko cyane cyane n' ab'igitsina gore, harimo umukecu rukukuri ufite imvi nyinshi wambaye agapira k'umweru yiteye agasharupe k'icyatsi. Imbere umugabo uri kubigisha yambaye ikositimu y'umukara, akaba arimo arabasobanurira ibijyanye n'ubuzima.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko zigezweho z'ibitaro, hakaba hari ahagenewe kwakira abarwayi ndetse naho abakozi b'ibitaro bakorera, mo rwagati hakaba harimo na jaride nziza cyane, aho abarwayi ndetse n'abarwaza bafatira akayaga keza.

Inyubako yitwa Caraes, ni inyubako ikunze kuvurirwamo abantu bavuga ko baba barasaze, ariko si ugusara kuko n'indwara ziba zarafashe ubwonko bwabo.

Imbere y'ikigo nderabuzima cya Gishweru hari abantu bane, umwe aricaye abandi batatu barahagaze, hirya yaho hari undi mumama usa nk'uteruye umwana.

Abarwayi bari mu cyumba cyo kwa muganga hari abantu benshi batandukanye, hari abaforomo n'abaganga bari kubitaho iki cyumba kikaba kigizwe n'ibitanda byinshi aho buri gitanda gifite inzitiramubu.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, iri ahantu hitaruye izindi nzu, ni inyubako nziza urebesheje amaso, ikaba ifite n'itara riyimurikira imbere yayo.

Abaganga bateraniye ahantu benshi cyane nk'abaganga barenga icumi, aho buri umwe wese yambaye itaburiya y'umweru, aho bari bakaba bakikijwe n'utubati dukunze gushiramo... gushyiramo imiti.

Akenshi abantu barwaye bakunze kujya gufata imiti ku mafarumasi. Turi kubona Good life Pharmacy aho ivuga ngo "Ubwiza ni ubuzima. " Ni byiza gufata ibinini mu gihe umuntu arwaye.

Imashini zabugenewe zo kwa muganga ziriho sikirini cyangwa insakazamashusho, ihagazweho n'umuganga uri kureba uko umutima n'amaraso biri gutera by'umurwayi uri muri icyo cyumba cyo kwa muganga.

Mediasol famasi ni iduka ricuruza imiti riherereye i Kanombe, rikaba ribamo imiti itandukanye yakorewe mu nganda aho abakiriya cyangwa se abarwayi baza kuyigura bitwaje ubwishingizi butandukanye.

Inyubako z'ivuriro cyane cyane igice cy'amaso aho bavura uburwayi bw'amaso ku barwayi batandukanye bavuye impande n'impande, igice rero kikaba gifitemo n'ibitaro aho abarwayi bashobora kuba bavurwa babamo.

Inyubako zo kwa muganga ni inyubako zifasha mu korohereza ubuvuzi bw'ibanze kandi bwimbitse. Aho usanga rimwe na rimwe kwa muganga hari iminsi yaharaniwe kurwanya imirire mibi, cyangwa iminsi yahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana.

Inyubako yo kwa muganga ni inyubako iba irimo ibikoresho byinshi. Aho usangamo igitanda umuganga aryamisha abarwayi kubasuzuma ndetse ugasanga amasikirini n'ibimufasha kumwongerera umwuka.

Igihugu cy'u Rwanda cyagiye cyubaka ibikorwaremezo, birimo nk'ibitaro ahantu henshi hatandukanye, urugero Igihugu cy'u Rwanda cyubatse ibitaro bya Shyira bikaba ari ibitaro biri ku rwego rw'akarere.

Kwa muganga haba ibikoresho byinshi kandi bigiye bitandukanye. sikaneri ni kimwe mu bikoresho gikoreshwa na muganga aryamishamo cyangwa agashyiramo umurwayi, arimo aramupima cyangwa ari kumusuzuma indwara.

Inyubako nziza cyane yitaje, ifite amagorofa abiri, ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, imbere y'inyubako hari imikindo ku ruhande rwayo hari imodoka.

Mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga, hari umurwayi w'umudamu uryamye ku gitanda cyagenewe abarwayi, imbere ku musego hari sikirini yerekana amashusho y'uburyo umutima uri gutera, muri icyo cyumba hakaba harimo n'amacupa ya gaze ogisijene yo gufasha abarwayi.

Umurwayi w'umugabo uri kwa muganga, akaba aryamye mu gitanda cyagenewe abarwayi, uyu murwayi rero akaba acometsemo serumu nyinshi mu kaboko ke k'ibumoso, ndetse akaboko kakaba karambitse ku musego ucometsemo izo serumu, ni mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga aho harimo imashini nyinshi zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane ifite amabara y'umweru. Ni inyubako imeze nk'aho ari iyo kwa muganga, aho ifite amarangi y'umweru, icyatsi kibisi ndetse n'ayandi.

Inzu nziza cyane ifite amayetaje ane. Hejuru y'iyo nzu hari iminara ndetse n'ibigega bitandukanye. Ikaba ikoritiriwe n'igipangu, aho kuri icyo gipangu harimo harasohokamo imodoka.

Gusuzuma umurwayi ni kimwe mu bikorwa kibanziriza guhabwa imiti na muganga. Iyo umurwayi asuzumwe muganga abasha kumenya indwara uwo murwayi arwaye, akaba yamuha n'imiti imuvura.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, computer ndetse na fotokopiyeze, umuganga uri muri iki cyumba arimo arafotora akoresheje iyo fotokopiyeze.

Inzu nziza cyane ya kadasitere, imbere yayo hari ivaze iri mu bwoko bw'ikibindi, ikaba isize amarangi y'idarapo ry'u Rwanda, imbere yayo hakaba hari ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibendera ry'ikigo cyitwa Rwanda ciridereni.

Icyapa kiriho amagambo avuga ngo University Teaching Hospital of Butare CHUB, iki ngiki kikaba ari icyapa cyerekana ibi bitaro aho biherereye i butare.

Icyapa cyanditseho Kigali Ciy Rehabilitation Transit Center, iki cyapa kikaba kirimo kirerekana ahantu hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye, inyuma yaho hari akantu gateretse k'umutuku ndetse n'ibiti.

Kwa muganga ni ahantu usanga ibikoresho bigiye bitandukanye, aho usanga urugero nk'ibitanda, ibi bitanda bikaba biryamwaho n'abarwayi mu gihe baje kwa muganga bamwe bahawe ibitaro cyangwa abandi bari mu gusuzumwa.

Mu cyumba cy'abarwayi kwa muganga harimo abaganga bari kwita ku barwayi aho aba barwayi bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'abaganga bakaba bambaye udupfukamunwa hakaba harimo n'umurwayi umwe w'umuzungu.

Inyubako nziza cyane, iri ahantu hitaruye. Imbere yayo hari ubusitani ndetse na pasikarumu. Inyuma hakurya ku misozi, haragaragara igicu ndetse n'ikirere gifite ibara ry'ubururu.

Icyumba babagiramo abarwayi kirimo igitanda cyabugenewe ndetse n'agatebe umuganga yicaraho ari gukora operasiyo, hakaba hari icyuma kiriho amatara azengurutswa afasha mu gikorwa cyo kubaga.

Udusashe dupakiyemo amaraso agenewe guhabwa abarwayi, tukaba dutunganyije twenda gupakirwa ku madorone kugira ngo tujyanwe ku barwayi badukeneye mu bitaro bitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ni ikigo nderabuzima kivura abantu indwara nyinshi zitandukanye. Iki kigo nderabuzima kikaba gifite inyubako igeretse. Harimo abantu ndetse imbere yaho hari n'ibiti bikiri bitoya by'indabyo.

Kwa muganga ni ahantu wasanga ibikoresho byinshi bitandukanye aho ushobora kuhasanga ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bakoresha, kwa muganga ni ahantu haba hari isuku nyinshi kandi ihagije.

Umubyeyi arimo arapima umwana we ibiro afite. Ni umubyeyi wambaye agashati k'umweru. Ikigaragara aha hantu hari n'abandi babyeyi bagiye batandukanye baje gupimisha abana babo ibiro.

Kwa muganga ni ahantu usanga ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, aho usanga hari ibitanda biryamwaho n'abarwayi mu gihe baje kwivuza, usangayo amaseromo ndetse n'inshinge kwa muganga.

Inyubako nyinshi zitandukanye, zubakishije amatafari ahiye, zegereye ikigega kiri hagati yazo, imbere yazo hari na robine hari n'ubusitani.

Ku kigo nderabuzima cya Shagasha hari abantu batandukanye baje gusaba serivisi y'ubuvuzi ariko imbere yaho hari ababyeyi babiri ndetse n'abana babo bazanye kuvuzwa.

Amafarumasi atandukanye afasha abaturage mu kubona imiti mu gihe arwaye, farumasi zikunze kuba zirimo imiti myinshi itandukanye. Farumasi yitwa porogeresi farumasi, ifasha abaturage bayegereye ndetse n'abagiye baturuka impande n'impande kubona imiti yo kubavura.

Kwa muganga hakunze kuba hari ibikoresho byinshi bitandukanye, inyubako igaragara ko mu cyumba ari umweru de, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye aho ubonamo nka sikirini ndetse n'agatebe n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Abantu babiri barimo barakora isuku kwa muganga, ni mu cyumba kirimo abantu baryamye ku bitanda bitandukanye, bigaragara yuko ari abarwayi baryamye.

Leta y'u Rwanda mu kwegereza ubuvuzi bw'ibanze abaturage yagiye yubaka inyubako z'ibitaro ndetse n'amavuriro mu gihugu hose. Iyi nyubako imbere yayo hari Idarapo ndetse n'akamodoka k'umutuku.

Inyubako z'ibitaro binini cyane ibitaro byitwa Legas, bikaba biherereye ku Murindi, aho bifite parikingi ihagije yaba amamodoka y'ibitaro cyane cyane z'ambilance ndetse n'amamodoka y'abarwayi n'abarwaza abona aho aparika.

Inyubako nziza cyane y'umweru bigaragara ko igizwe n'ibyumba byinshi, aho buri cyumba kigiye gifite nimero yacyo, kimwe rimwe, kabiri, gatatu bikaba aribyo biri kugaragara cyane. Iyi nzu ikaba iri mu ibara ry'umweru.

Ni abantu bari kwa muganga biganjemo abanyeshuri biga iby'ubuvuzi, abaganga ndetse n'abaforomo, bari muri laboratwari aho bari guhuza imiti itandukanye, imbere yabo ku meza mu bihari, harimo n'icupa ririmo amavuta y'igihwagari.

Abantu banyuranye tutitaye ku myaka, abakuru n'abato bajya kuri posite do sante, zashyizweho na minisiteri y'ubuzima, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bitewe n'indwara baba barwaye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo intebe muganga yicaraho ndetse hejuru hari na porojegiteri; aha hantu hasize amabara y'umweru.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ikorerwa mu mazu azwi nka jimu, ibyo bikoresho bikaba birimo amagare ahagaze, imashini zikoreshwa mu kwiruka ndetse n'izindi zikoreshwa mu guterura ibintu biremereye, zikaba zifasha abakora siporo mu buryo bukwiriye.

Umugabo wambaye amataratara uri mu kigero k'imyaka mikuru, yaje kwisuzumisha kwa muganga akaba arimo arasuzumwa n'umuganga w'umukobwa mu bigaragara barishimye bombi.

Inyubako nini cyane y'amagorofa atatu, hejuru y'iyo nyubako handitse ngo King Faisal Hospital, ni ibitaro bikuru mu gihugu, aho abantu bajya kwivurizamo indwara zitandukanye.

Ibikoresho byo kwa muganga ni ibikoresho bifasha ba muganga mu kwita ku barwayi. Ibi bikoresho biramutse bidahari ubuvuzi ntibwagenda neza, kuko usangamo amalaboratwari yifashishwa mu gupima indwara nyinshi zitandukanye.

Abantu benshi bari ku murongo berekeza aho umuganga ari. Arimo aragenda akora ibarura, aho umwe arimo araza akamwandika, akagenda hakaza undi.

Ababyeyi bane bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi, ni byiza kubyarira kwa muganga kuko iyo umuntu abyariwe kwa muganga bituma yitabwaho akiri muto ndetse n'umubyeyi akabona ubufasha bw'ibanze.

Kwa muganga ni ahantu usanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, umurwayi uryamye ku gitanda ariyoroshe, iruhande rwe hari akadomoro ndetse n'indobo ikunze gushyirwamo imyanda, hejuru ye hari serumu.

Repubulika y'u Rwanda. Minisiteri y'ubuzima, University of Teaching Hospital of Butare. Ariyo ikunze kwitwa CHUB. Ikaba ifite mission ivuga ngo: Health care Service Medical Education Research Supervision.

Inyubako zo kwa muganga ni inyubako zikwiye kwitabwaho cyane aho usanga ziba zifite isuku iri ku rwego rwo hejuru ibi ni ukubera ko hagendwa n'abantu benshi kandi hagomba kwitabwaho buri munsi kuko haramutse hatitaweho ntago haba bakiri kwa muganga ahubwo hashobora kubandi ahantu abantu bakandurira indwara.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere ni ikigo nderabuzima gifasha abaturage batuye mu murenge wa Rwerere n'abandi bagiye baturutse imihanda yose, ikigo nderabuzima gifasha abaturage mu kwivuza indwara zitandukanye yaba izitewe n'umwanda ndetse n'indwara zituruka ku isuku nke.

Umukobwa urimo uranywa amazi, yambaye agasengeri ndetse yashyize n'agatambaro ku rutugu rwe. Ni byiza kunywa amazi byibuze litiro ebyiri ku munsi. Nk'uko tubishishikarizwa n'abaganga.

Umuntu ukora siporo cyangwa ujya ahantu runaka birashoboka yuko yagwa akaba yagira igikomere, ni byiza yuko twajya kwa muganga bakaduha ibipfuko twazajya twipfukisha mu gihe twahuye n'ibikomere.

Ibikoresho bitandukanye birimo ubwoko bwinshi byifashishwa havurwa umuntu mu gihe agize ikibazo cy'imvune. Ibi bikoresho ni iby'ibanze kuko iyo umuntu agiriye imvune mu kibuga bahita bamuvura.

Imiti wandikiwe kandi ugahabwa na muganga wizewe. iyo miti irakuvurwakira, hari imiti itandukanye iyitwa korudi esitanti ikunze kuvura abantu ibicurane, n'indi miti igi itandukanye ivura izindi ndwara ni myiza iyo uyandikiwe na muganga.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, afite agacupa arimo aranywa amazi, yari avuye muri siporo kandi hari n'igihu gikeye, ni mu gatondo.

Umusore bigaragara y'uko yateruye kandi yakoze na siporo nyinshi. Ari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo siporo cyitwa jimu. Ari kumwe n'umugabo w'umuzungu wambaye ingofero y'umukara.

Imbuto n'imboga ndetse n'inyama, amagi hamwe na foromaje biri ku masahani atandukanye, biragaragaza uburyo umuntu ategura indyo yuzuye kuko kugira ngo indyo yuzure iba irimo imboga n'imbuto ndetse n'ibikomoka ku matungo.

Gukora siporo ni byiza cyane. Kuko bituma umubiri w'umuntu uruhuka kandi akumva amerewe neza. Umwana w'umukobwa uri hano arimo arakora siporo azamura amaboko, aho arimo aragenda aruhura umubiri we.

Icyumba cyabugenewe gikorerwamo siporo kizwi nka Jimu, aho usanga harimo ibyuma byo kwirukankiraho, ibyo guterura ndetse n'ibifasha mu kugabanya ibiro byo ku nda. Ni byiza gukora siporo.

Imiti myinshi igiye itandukanye. Harimo ga, hakabamo n'amakorogate. Iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Ni byiza gukoresha imiti wandikiwe na muganga.

Ukuboko gufashe amazi mu ntoki, aka gacupa kakaba karimo amazi meza amazi yo kunyobwa, mu buryo bwo gukangurira abantu gukoresha amazi meza mu gihe bari muri siporo bakanywa amazi ahagije.

Umusore w'ibonsa uteruye icyuma kikaba ari icyuma cyagenewe gukorasiporo ngororamubiri ari kuzikorera mu mazu yabugenewe ahazwi nka gimu aho ari kuzamura icyuma anakimanura ibyo bita gukora ibaba.

Umuntu wicaye wambaye umupira w'ikigina, akaboko kamwe kari ku kibero, akandi kakaba gafashe ku gipfuko ke, bishoboka yuko yaba afite uburwayi yahuye na bwo bukaba bwatumye yipfuka. Ubwo burwayi ni nk'igikomere.

Kunywa amazi ni kimwe mu bikorwa umuntu akwiriye gukora buri munsi kuko bifasha umubiri w'umuntu gukora neza, buri muntu nibura ashishikarizwa kunywa litiro ebyiri z'amazi buri munsi, kuko bifasha umubiri gukora neza.

Abantu babiri bari muri siporo, umuhungu n'umukobwa, bari muri siporo kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza, aho buri umwe agiye afite agacupa karimo amazi ashobora kuza kunywa mu gihe akiri muri siporo.

Imashini yabugenewe yo kwa muganga, ikoreshwa mu kugorora ingingo, mu gihe umuntu yaba yavunitse, ikaba iri gukoreshwa na muganga avura umurwayi w'umugabo nk'uko bari kumwe kwa muganga.

Umusore n'umukobwa bari kumwe, aho umusore yicaye ku ntebe akaba ari kunywa n'amazi, umukobwa arahagaze bigaragara ko arimo aragorora imbavu ze.

Umuntu unywa amazi byibuze ritiro ebyiri ku munsi agira ubuzima bwiza buzira umuze, abahanga mu by'ubuzima badushishikariza kunywa amazi buri munsi kuko bituma umubiri wacu umera neza cyane cyane impyiko.

Umurwayi wagiye kwa muganga bakaba bamuryamishije ku gitanda, aho bigaragara yuko yavunitse, arimo aritabwaho n'umuganga, ku ruhande rwe hari abandi bantu baje kumusura.

Gukora siporo ni kimwe mu bikorwa umuntu yabyuka akora umunsi we ukagenda, inzobere mu by'ubuzima zidushishikariza gukora siporo mu gitondo, mbere yuko twagira ibindi bintu dukora, kuko ngibi bituma umubiri wacu ugira imbaraga, umuntu akirirwa neza.

Umusore urimo urakora siporo, akaba yarambuye akaguru akaboko kamwe kakaba gafashe hasi. Ni byiza gukora siporo kuko iyo umuntu akora siporo agira ubuzima buzira umuze.

Umusore w'ibigango arimo akora siporo, aho bigaragara ko arimo aratozwa n'umukoci we w'umukobwa, uwo mukobwa w'umuzungu, uyu musore umubiri we urubakitse koko!

Umuganga wambaye taburiya ufite n'isaha ku kaboko, afashe ku kaguru k'umukobwa uryamye hasi wambaye kora ndetse n'agapira k'umutuku. Akaba amufashe ku ivi.

Umukobwa wambaye inkweto ziri mu ibara ry'umweru n'umutuku akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri ka pinki akaba ari gukora siporo zizwi nka yoga, izi siporo rero zikaba zikorerwa mu nzu.

Umusore urimo urakora siporo. Aho akaboko kamwe gafashe ku nkokora, akandi kaba gafashe inyuma mu bitugu. Uyu musore ari gukora siporo kuko siporo ari nziza ku buzima bwa muntu.

Umupapa urimo uranywa amazi ni byiza kunywa amazi kuko abaganga badushishikariza kunywa amazi byibuze litiro ebyiri ku munsi, amazi afasha mu kuyungurura amaraso ndetse impyiko zigakora neza.

Burankari, ni igikoresho gikoreshwa kwa muganga cyangwa mu kibuga. iki gikoresho gikoreshwa mu kibuga iyo nk'umukinnyi avunitse bakamutwaraho bamusohora mu kibuga kugira ngo yitabweho n'umuganga.

Iyo umurwayi arwaye kubera kumara igihe kinini aryamye adakoresha umubiri we, hari igihe imitsi ye iba itagikora neza. Umugabo wicaye mu kagare ari kumwe n'umuganga aho umuganga arimo amufashe ku kaboko.

Umugabo ufite ibizigira ibizwi nk'amapinya, akaba yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, ari muri siporo, za siporo zikorwa ahantu hato zizwi nka Yoga akaba ari kugorora amaguru.

Ameza ateretseho icyuma gikoreshwa hakorwa sporo, imbuto zitandukanye zirimo pome, avoka, amaronji n'imboga z'ubwoko butandukanye harimo borokori, shufureri ndetse na retesi, bikaba byose biri kugaragaza uburyo umuntu yarya neza indyo yuzuye kugira ngo ngo yirinde indwara.

Umugabo mwiza cyane, wambaye agapira akajya gusa ikigina, arimo aranywa amazi, amazi asa neza cyane, bigaragara yuko ameze nk'umuntu uvuye muri siporo, zimufasha kumera neza.

Umusore urimo arakora siporo bigaragara ko siporo zamufashije gukomera k'umubiri kwe. Yambaye isaha ku kuboko, igice cyo hejuru ku mubiri we nta kintu yambaye.

Ni byiza kunywa amazi buri munsi, aho abahanga mu by'ubuzima badushishikariza kunywa amazi, byibuze buri munsi litiro ebyiri kugira ngo impyiko zacu zikore neza,

Umuganga wambaye impuzankano yo kwa muganga, afashe akaguru k'umuntu uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, aho arimo aramuvura, uyu mugabo yambaye agapira k'ubururu ndetse n'agakabutura k'icyatsi.

Umugabo uri gukora siporo ngororamubiri wambaye agasengeri k'ikigina akaba afite ibizigira cyangwa ibizwi nk'amapinya, bigaragara yuko imikaya ye yumutse cyane kubera gukora siporo.

Umukobwa uri gukora siporo akaba imbere ye hatetse icupa ry'amazi ari kunywa, akaba anafite agakoresho gatwarwa buterefone kaba kari ku kuboko, anambaye koteri kugira ngo bimufashe gukora siporo atarambiwe kubera arimo yumva indirimbo.

Abakinnyi iyo bari gukina mu kibuga hari igihe bahura n'impanuka, bikaba ngombwa yuko bahamagara umuganga wabugenewe uvura abakinnyi bitewe n'ikipe. Uyu muganga arimo aravura umukinnyi kandi na baro imuri iruhande bigaragara ko ari ikosa yakorewe ari gukina.

Umusore bigaragara y'uko yakoze siporo, arimo akora siporo kugira ngo umubiri we, ukomeze wiyubake. Yambaye ekuteri ziri kumufasha kumva indirimbo, mu gihe ari gukoramo siporo.

Umusore ufite akaboko kanini, arimo aranywa amazi, yambaye n'isengeri, ikigaragara cyo ni uko yari avuye muri siporo kuko byamuteye gushaka kunywa amazi.

Umuntu wavunitse barimo baramuhambiraho pomade ku kaguru, ndetse yicaye ku gitanda aho bigaragara yuko yari avuye muri siporo.

Umumama wambaye imyenda y'ibitenge ari kumwe n'umwana we, aho baryamye ndetse bigaragara y'uko bari kwa muganga, inyuma yabo hakaba hari undi muntu uryamye ku gitanda kandi hejuru yabo hari na supanete.

Amazi asa neza cyane arimo arasukwa mu gikombe kugira ngo akoreshwe icyo ari gushyirirwamo. Ni byiza kunywa amazi asa neza kuko bituma umuntu agira umubiri umeze neza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane kuko idufasha mu kurwanya indwara nyinshi zitandukanye. Umukobwa wambaye ekuteri arimo aragorora amaboko ye, bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyabugenewe cyo gukorerwamo siporo, kitwa nka Jimu. Ni ahantu ugenda ugasangamo ibintu byinshi bitandukanye, hari aho usanga harimo ibyuma byo guterura, bimwe biba bigiye bifite amakilogarama atandukanye, ikigaragara gifite kilogarama makumyabiri.

Udukapu twabugenewe aba sportif cyangwa abavuzi b'aba sportif baba bafite, tuba turimo imiti itandukanye ndetse n'ibikoresho byabugenewe mu gufasha abantu bari muri siporo. Muri utu dukapu haba harimo za bande ndetse n'amabarafu akoreshwa mu gihe umuntu agize impanuka cyangwa imvune ari muri siporo.

Umukobwa wambaye imyambaro y'icyatsi arimo arakora siporo yicaye, arimo aragorora umugongo we aho amaboko yayarambuye imbere y'amano, ni byiza gukora siporo.

Gukora siporo ni ikintu cyiza cyane. Akarusha siporo yo kwirukanka ituma umuntu ata ibiro byinshi. Umugabo wambaye agasengeri k'umutuku arimo aritabwaho n'umuntu kuko yari amaze umwanya yirukanka.

Umukobwa usa nk'uwambaye agakanzu k'icyatsi kibisi, yambaye na ga ebyiri mu ntoki, agapfukamunwa. Akaba afite n'umusatsi usutse, imbere ye hari udukarine akaba arimo arareba muri compiyuta.

Ibikoresho byo kwa muganga bigizwe n'ibikoresho bitandukanye, aho haba harimo za bande, imikasi, ndetse n'ibikoresho by'amavuta bisigwa abarwayi bivuza indwara z'uruhu.

Kwita ku mikurire y'umwana ni ikintu cyiza cyane, by'akarusho ni ugutangira kwita ku buzima bwe ureba amenyo ye iko ayaborosa no kumujyana kwa muganga mu gihe ukeka ko yaba yarwaye, ubuzima bw'umwana ni ihame ryiza.

Umudamu ufite agasatsi gake bizwi nka oridineri, akaba ari muri siporo, yambaye agapira k'ubururu karimo amabara y'icyatsi n'umweru, akaba yiteye aka esuwime bihanaguza iyo bazanye ibyuya bari muri siporo, akaba ari no kunywa amazi meza.

Umuganga arimo arita kumurwayi waje amugana kwa mu ganganga. akaba yamushyiraho agapfuko ku ivi. nibyiza kujya kwivuriza kwa muganga, kuko kwamuganga niho umuntu yahabwa ubuvuzi bwemewe kandi bwizewe.

Umusore uririmo urakora siporo mu cyumba cyagenewe cyitwa jimu, arimo araterura kugira ngo azane amatuza, ni byiza gukora siporo ahantu habugenewe kuko haba hari n'ibikoresho bifasha mu gukora siporo.

Icyapa kiriho umugabo w'ibizigira uteruye icyuma gikoreshwa muri jimu hakaba hariho ibyo kurya byinshi bitandukanye bikungahaye kuri vitaminini, poroteyini ndetse n'imyunyungugu itandukanye, hakaba hari n'amazi kuri ayo meza.

Umusore bigaragara y'uko yakoze siporo nyinshi cyane, urebeye akaboko ke karabyimbye, arimo aranywa amazi meza cyane y'umweru nubwo amazi atagira ibara.

Umuntu uri kunywa amazi meza atunganyijwe y'urubogobogo, akaba avuye muri siporo kandi bigaragara ko afite imbaraga, ndetse anatekereza neza kubera ko afata amazi ahagije n'uruhu rwe rusa neza kubera anywa amazi ahagije.

Umuntu urimo urakora siporo yo kugorora umugongo, afashe amaboko ye ayarambitse imbere akaba ayahinnye mu mugongo, afite umutwe uriho imisatsi ya direde akaba yambaye agasengeri n'ikabutura by'umukara.

Ni byiza gukora siporo kuko siporo zifasha umubiri w'umuntu guhumeka neza. Umukobwa wicaye arimo arakora siporo. Imbere ye hari computer, kuruhande hari amazi ndetse n'utwuma yifashisha aterura.

umukobwa uri muri siporo wambaye ekuteri mu matwi ndetse n'akambaro batwaramo telefone ku kaboko akaba ari kunywa amazi kandi aracyakomeje gukora siporo

Umusore ufite akaboko kanini arimo arakora siporo aho yafatishije amaboko ye ku gahanga, uyu musore yambaye isaha ku kaboko bigaragara yuko yakoze umubiri kuko akaboko ke ni kanini.

Umukobwa wambaye isaha, ufite imisatsi isutse, yambaye na ekuteri ndetse n'agakoresho ku kaboko batwaramo telefone mu gihe umuntu arimo arakora siporo. Arimo aragorora ingingo ze.

Umukobwa muto muto uri gukora imikino ngororamubiri cyangwa siporo muri salo yabugenewe, akaba yambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro ya siporo ya buresiyeri, imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi ari kwifashisha muri siporo.

Ibimera ni bimwe mu byatsi bifasha mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, ibi byatsi bikunze gukurira ahantu habugeiwe, haba mu ishyamba ndetse n'ibiterwa n'abantu, bikashyirwa mu cyanya cyihariye cyabyo.

Umumenamabuye ni igiti gakondo kivura uburwayi butandukanye, harimo ifumbi, harimo inzoka ndetse n'uburwayi bw'igifu, iki giti rero kikaba kiba mu bihuru ndetse n'amashyamba, ahantu hatandukanye mu bice by'igihugu.

Umuhumuro ni igiti gakondo kikaba kivura indwara zitandukanye harimo ibihushi ndetse n'indwara z'uruhu, iki giti rero kikaba gikunda kuboneka mu majaride atandukanye ndetse kikaba kinimeza mu mashyamba mu buryo busanzwe gakondo.

Igiti cy'umuravumba cyakuze cyane gifite amashami menshi biragaragara ko ari inganzamarumbo, iki giti kikaba ari isoko y'imiti gakondo itandukanye aho yaba amababi, imizi ndetse n'igishishwa byose bikoreshwa mu buvuzi.

Itasi iteretse ahantu heza ku meza ikaba irimo uburoso bubiri bw'amenyo buri mu ibara ry'umukara, iruhande rw'iyo tasi hakaba hari n'igikakarubamba kirambitse mu dutasi, iruhande rw'utwo dutasi hari amasume atandukanye, bigaragara yuko ari muri dushe.

Igiti cy'umuravumba cy'inganzamarumbo, kikaba gitoshye gifite amashami menshi ndetse n'amababi menshi, umuravumba rero ukorwamo imiti itandukanye, yiganjemo imiti ivura indwara z'uruhu.

Imiti itandukanye ya gakondo igiye iri mu dusahane dupfukuye. Hari ufiti utuntu mu ntoki, akaba ibiganza bye bisa nk'ibiganza by'umuzungu.

Ibibabi bikiri bito cyane, by'icyatsi kibisi, biri ku butaka. Aho ibi bibabi bisa neza, kandi uwabibona wese, yakishimira iryo bara ryabyo. Kuko bigaragara ko, byagezweho n'izuba rihagije.

Mu ivuriro gakondo harimo imiti itandukanye ndetse n'imbuto aho hari ifunze mu macupa, mu twanverope ndetse n'udukarito hakaba hari abaje kugura iyo miti barimo ababyeyi ndetse n'abandi batandukanye.

Imiti gakondo ni imiti myiza cyane; kuko ifasha abantu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Iyi miti igomba kubungwabungwa kuko ni myiza ku buzima bwa muntu; iyo abantu barwaye barayifashisha.

Umudamu wambaye ibyera, afite agashakoshi ku kaboko, afite n'umusatsi mwiza cyane, wirabura. Arimo arasoroma ibyatsi bibisi cyane. Ibi byatsi bikaba bifite ibara ry'icyatsi.

Imiti gakondo ikorwa mu byatsi. Iyo iyo miti yagiye igakurwa mu mirima, iraza igahondahondwa, ikamera nk'ubugari kugira ngo ikorwemo uwo muti ubasha kuvura abantu.

Imiti gakondo igiye iri mu dukoresho twabugenewe, ubu bwoko bw'imiti gakondoni imiti ifasha mu kuvura abantu indwara zigiye zitandukanye, aho dushishikarizwa kubanza kwisuzumisha mbere yo kunywa imiti iyo ariyo yose.

Imiti gakondo ni imiti igomba kwitabwaho cyane, aho usanga ishyirwa mu mapipinyeri kugira ngo izabashe gukwirakwiza. Uyu ni umuti w'umuravumba ukaba warashyizwe mu bihoho kugira ngo uzabashe guterwa.

Ibyatsi bibisi cyane. Bikaba bifite ibara ry'icyatsi kinini. Ibi byatsi bikaba byitwa shufurere. Shufurere akaba ari imboga abantu bakoresha bakarya.

Ibiti byinshi bitandukanye aho bimwe bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ibindi bikaba bifite ibara ry'umutuku, biri ahantu hitaruye kandi mu murima, ibi biti ubirebye birasa neza.

Umuravumba uteye ahantu heza h'intabire bigaragara yuko ari ibiti byinshi, bisa nk'aho uwayiteye agamije kuyikoresha mu bikorwa by'ubucuruzi kuko yayiteye ku buso bugari kugira ngo ajye ayigemura hanze.

Rwanda Food anand Drug Authority, ari byo mu mpine bita FDA ni ikigo k'igihugu gishinzwe gusuzuma ibiribwa ndetse n'imiti ko byujuje ubuziranenge.

Uducupa n'utubido dupakiye imiti gakondo turi mu mabara atandukanye, hari uturi mu mabara y'umuhondo afite udufuniko tw'umutuku turi mu mabara y'umweru, afite udufuniko twa move ndetse n'amabara agiye avangavanze, tugiye turimo imiti y'amoko atandukanye.

Ibiti bikiri bito cyane, aho biri mu bihoho kugira ngo ibiti bikure bibanza gushyirwa ahantu hamwe bikitabwaho bikiri bitoya, bikunze gushyirwa mu mapipinyeri.

Amashyamba akunze kuba arimo ibiti, inyamaswa by'ubwoko bwinshi butandukanye. Amashyamba akunze kuba arimo imiti ya gakondo ifasha abantu mu kwivura no kwivuza.

Udutebo dutandukanye turimo imiti gakondo itandukanye aho hagiye harimo imiti y'indabyo, amababi ndetse n'impeke, haragaragaramo piripirimanga ndetse n'indabo zitandukanye zikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa menshi atandukanye agiye arimo imiti, akaba afunze neza anasirinze, kuri ayo macupa hakaba hariho etikete, cyangwa urwandiko rwerekana ibiri mu icupa, akaba ari imiti yerekana n'uburyo iyo miti ikoreshwa.

Umuntu ufite umuti w'amenyo ari gushyiriraho undi ku buroso kugirango ajye kwiborosa. Ni byiza gukoresha uburoso ndetse n'umuti wabugenewe mwiza wabugenewe. kugirango umuntu abashe kurwanya indwara zo mukanwa mugihe ari kwiborosa.

Etageri irimo ibyo kunywa, ndetse n'ibiribwa, ariko cyane cyane hakaba harimo ibyo kunywa bikozwe mu bimera gakondo, bizwi nk'amavuta yo kwisiga akozwe mu gikakarubamba.

Icyapa kiriho imiti ikorwa mu gikakarubamba ikaba ipfunyitswe mu dukoresho dutandukanye, hari ipfunyitse mu tubido ndetse n'inde iri mu dutibe hamwe n'uducupa iyo miti ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye.

Icyapa kirimo uducupa tuzwi nk'udutipe tuba turimo umuti ukunze gukoreshwa hozwa amenyo, uwo muti ukaba ugaragaza ko ukoze mu gikakarubamba, ku ruhande rw'iburyo hari akandi gacupa karimo umuti ukora isuku, bigaragara ko ukozwe mu ndabo zitandukanye.

Igiti cy'igikakabamba ni igiti kivura indwara nyinshi zitandukanye. Aho gikorwamo n'imiti igiye ifasha mu kuvura indwara zitandukanye. Kikaba cyegeranye n'agacupa bigaragara ko karimo icyakozwe mu gikakarubanda.

Agacupa gatoya karimo umuti, kuri ako gacupa handitseho amagambo umuravumba, akaba ari umuti ufasha mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, uyu muti ukaba ari gakondo.

Umuravumba ni igiti gakondo kivura indwara nk'ibicurane ndetse no gukorora, umuvumba ukunze kumera mu mirima y'abaturage, aho bahinga. Umuravumba ukwiriye kwitabwaho ukanasigasirwa kuko ufasha mu kuvura indwara.

Udutibe dutandatu turimo umuti wabugenewe woza amenyo, ukorwa mu giti gakondo cyitwa igikakarubamba, uyu muti rero ukaba ukesha amenyo kandi ukanafasha mu kurinda ishinya.

Imiti myinshi y'amoko atandukanye, cyane cyane harimo imizi ndetse n'ibishishwa, hakaba hariho n'imbuto zitandukanye, zikaba zigiye ziri mu dutsinda bigaragara yuko ari imiti iri gutegurwa kugira ngo iherezwe abantu.

Ikimera ndetse n'igiti gakondo cyitwa umuzibaziba, gikora umumaro utandukanye mu mubiri w'umuntu, aho kivura indwara zitandukanye zirimo umuvuduko w'amaraso, rubagimpande ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Uducupa twinshi turi muri etajeri turimo imiti gakondo, bigaragara yuko ari ahantu bacururiza imiti gakondo, utu ducupa rero harimo uturimo imiti ifashe, hari uturimo imiti y'amazi, ndetse n'imiti ikozwe mu mafu, yatunganyijwe neza kugira ngo ihabwe abayikeneye.

Ibibabi by'ibiti biri hejuru aho hejuru y'ibyo biti hari ikirere cy'ubururu cyane kikaba gifitemo n'ibicu by'umweru, aha hantu hakaba hasa neza cyane aho buri muntu wese yakwishimira kuhareba.

Imiti gakondo yiganjemo imizi n'indabyo, bikaba biri gukoreshwa muri serivisi z'ubuvuzi, aho hari ibyanitswe ndetse n'ibyumishijwe kugirango bibashe kubikwa mu gihe kirambye, hanyuma bigashyirwa mu dufuka dutandukanye.

Uducupa ndetse n'udukarito dutandukanye turi ku meza aho twerekana imiti ndetse n'ibimera gakondo, iruhande rwatwo hakaba hari inanasi ndetse n'imineke bigaragaza uburyo indyo yuzuye ishobora gutegurwa kandi imbuto na zo ubwazo zikora nk'imiti.

Igiti cyitwa umunzenze ni igiti kivamo umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye. Si ibyo gusa kuko kivamo n'ibikoresho bijye bitandukanye bikoreshwa mu ngo harimo n'amasekuru.

Agacupa k'umutuku kariho etikete cyangwa urupapuro rwerekana ibikarimo, kakaba kari mu ibara ry'umweru, hakaba hariho amagambo y'ururimi rw'Icyongereza avuga ngo Foreva Aroweberi nekitari, rero akaba ari umuti ukorwa mu gikakarubamba.

Ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi cyane, ni ishyamba ryiza uko rigaragara. Ibiti by'iryo shyamba, byaragiye bihinduka mu ibara ry'icyatsi kibisi cyane; aho bigaragara ko bibona oxygen.

Udutibe turimo imiti cyane cyane yisigwa, ikozwe mu gikakakarubamba ndetse n'avoka, iruhande hari avoka zikase ndetse na tangawizi bikaba rero bigaragaza ko ari imiti gakondo.

Etajeri irimo uducupa dutandukanye, turimo imiti gakondo ikozwe mu bimera ndetse n'ibinyabutabire bitandukanye, harimo nk'ubuki; utwo ducupa tukaba tugiye turiho amazina y'imiti ndetse n'uburyo ikoreshwa.

Uducupa twinshi dutandukanye turimo ibikoresho ndetse n'imiti ikomoka mu bimera gakondo aho harimo amavuta y'ibikotori yo kwisiga ndetse n'imiti itandukanye isigwa ku mubiri.

Icyapa kiriho udutibe tubiri, kamwe kari mu ibara ry'umweru akandi kari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, kamwe kakaba gashushanyijeho ubuki akandi gashushanyijeho igikakabamba, ku ruhande rw'iburyo hakaba hariho amafoto agiye atandukanye yerekana indwara zivurwa n'imiti iri muri utwo dutibe.